Abantu bicaye, bafashe amacupa ya fanta mu ntoki, umwe arariteretse, undi arimo kurisomesha umuseke. Bityo abantu bikaba bigaragara yuko bari ahantu ho muri hoteri.

Umuhanda w'ibitaka, iruhande rwaho hari ibiti birebire, ndetse n'icyapa cyanditseho pirimusi kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ikindi kiri mu ibara ry'umutuku, bikaba biri iruhande rw'umuryango.

Ni ikirango kigaragaza abantu bishyize hamwe, bakaba bakora ibintu bitandukanye, harimo isabune ikoropa ndetse ikaba inica ibisimba bitandukanye, harimo nk'ibinyenzi n'imperi.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto, ndetse n'iduka, aho abantu bajya bagiye kugura ibintu byo kurya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iruhande rwaho hakaba haparitse imodoka, ndetse n'inyuma hakaba hari ibiti byinshi.

Inyubako nini cyane, bigaragara ko iteye irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati y'umutuku. Hejuru yayo hakaba hanyuze insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru iruhande rwe hakaba hari isafuriya, ndetse n'isahani iriho imikati. Hakaba ari byuma biteye irangi ry'ubururu.

Umuryango usize ibara ry'icyatsi, hakaba hariho ibirango bigaragaza ko hacururizazwamo imashini zikata ibyuma, n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Inyubako ikaba ikaba iteye irangi ry'ibara ry'umweru.

Imodoka ebyiri ziparitse ahantu hamwe, ziri mu ibara ry'umukara, zifite amatara y'umutuku, ndetse ziparitse iruhande rw'inyubako ifite icyapa gisa n'umukara.

Inyubako zubatse ku muhanda, bacururizamo ibiribwa abantu baza bakagura, ndetse n'abacuruzi bakabigurisha. Iruhande rwaho hateye igiti kirekire cyane, gifite amatabi maremare.

Inyubako ifunguye, hejuru hari urutsinga, hasi hari akantu karimo inkweto z'umukara, ndetse kakaba gasa n'umweruru. Iruhande hakaba hari inyubako isize irangi ry'umutuku, inyuma yayo hakaba hari insina.

Amazu y’ubucuruzi aherereye ku muhanda, aho akunda guhahirwamo abantu. Abaturage bahaha ibyo kurya, ndetse bahaha n’imiti yo gukoresha mu bihingwa. Kenshi na kenshi bakunda guhahiramo ibintu bijyanye n’ibiribwa.

Ibikombe byinshi cyane bitandukanye by'ubwoko butandukanye, ndetse n'amasahani agiye atandukanye, aho ibikombe harimo bifite ibara ry'umutuku iry'icyatsi ndetse n'ibara ry'ubururu, ndetse n'amasahani akaba ari umutuku ndetse akaba arimo n'ubururu n'ay'icyatsi.

Umuhanda muremure cyane urimo abagenzi, bagenda bajya mu isoko ndetse n'abandi bajya mu rugo, harimo n'abari gushaka amafaranga batwara abantu aribo bita abanyonzi, ndetse n'amazu y'ubucuruzi, aho bacururizamo ibiribwa ndetse n'ibijyanye n'ubwubatsi.

Amazu menshi yubatse ku murongo, ndetse n'abaturage, iruhande hari amashanyarazi, ndetse hakaba hari n'amatara yo ku muhanda atanga urumuri. Aya matara akaba asa n'umweru. Hejuru hakaba hari ikirere cyiganjemo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu.

Moto nyinshi cyane ziparitse ahantu hamwe bigaragara ko aha hantu ziparitse ari mu igarage, aho bakorera moto iyo bari gushyiramo ibyuma byapfuye bagashiramo ibindi byuma bishya.

Umukeka igishushanyo gishushanyije, mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, inyuma yacyo hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba haparitse n'imodoka, inyuma y'imodoka kure, hakaba hari guturukayo umuntu, wambaye umwenda w'umweru.

Inyubako ya etaje, iriho icyapa cyanditseho Kanumazi kiri mu ibara ry'umukara, ndetse hejuru yaho hakaba hari n'ibindi byapa bibiri, bigaragaza ko aha hantu harimo ibiribwa. Inyubako ikaba iri mu ibara ry'umutuku ndetse no mu ibara ry'umweru.

Icupa ririmo igitunguru, igitunguru kikaba cyifashishwa mu guteka ibiryo bitandukanye, kandi kikaba kibamo n'intungamubiri zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende cyane ya etaje iriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, bigaragaza ko aho hantu bahacururiza imyenda igiye itandukanye, harimo iya siporo ndetse n'indi myenda bajyana gusenga.

Abantu bicaye mu iduka zicururizwamo amaterefone ya SUMSUNG. Hakaba harimo icyapa cya SUMSUNG, kiri mu ibara ry'ubururu. Rikaba ari iduka ririmo amaterefoni menshi cyane n'ibindi bikoresho.

Iduka ririmo imifuka iri mu ibara ry'umweru, inyubako zikaba zirimo inzugi zisa n'umweru, hakaba hariho n'ibyapa biriho abakobwa babiri bafite imisatsi miremire y'umukara.

Umuhanda urimo imodoka ziparitse, n'amazu ndetse n'ibiti birebire cyane, biteye ku kumuhanda biba bishinzwe kugira ngo bizane umwuka mwiza mu baturage.

Inzu nini, iriho ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, imbere yayo hakaba hari icyuma kirekire cyane , hakaba hubatse akazu gatoya, kariho imibare rimwe, umunane, kabiri n'urwego. Inyuma hakaba hariho igitari kinini cyane.

Ibiti binini cyane, birebire cyane biri mu ishyamba, hakaba hariho ubusitani iruhande rwabwo ndetse hakaba hariho n'icyapa, kigaragaza ko hariho hoteri.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa harimo intebe ifite ibara ry'umweru, amabase y'umutuku, amabase y'ubururu ndetse n'imifuka isa n'umweru, n'udukapu turimo umweru n'umukara, nko hagati hakaba hari ibintu. Harimo amasahani, harimo indobo zirimo n'imikati hakaba hahagazemo n'umuntu.

Inyubako yubakishijwe amabati y'umukara, ndetse hejuru yayo hanyuze insinga z'amashanyarazi. Hirya hari n'ibiti birebire cyane, bifite amababi y'ubururu.

Inyubako bacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo: amakaye, amakaramu, ndetse n'ibitabo. Aho abanyeshuri babigura bakajya kubisoma ndetse bakabyigiramo.

Igare ririho ibidomoro bibiri. Kimwe kiri iruhande rumwe n'ikindi kiri mu rundi ruhande. Hirya hakaba hari umwana wambaye umupira w'umukara, akaba yikoze mu mufuka.

Inyubako yubatse ku muhanda ikaba iteye amakaro arimo ibara ry'umweru, hakaba harimo kunyura umwana mu muhanda ndetse n'abandi bantu begamiye ku nkingi.

Inyubako ntoya y'ubucuruzi, isize ibara ry'ubururu, aho bacururizamo ibintu bitandukanye, hanze hakaba haparitse igare, ndetse n'ibidomoro. Hejuru yayo hakaba ari indi nyubako bari kubaka nshya ya etaje, iriho n'abantu bari kuyubaka.

Icyapa kigaragaza ko ahantu bahacururiza ibintu bijyanye n'amasabune yo kufurisha imyenda. Harimo ubwoko bwinshi cyane bugiye butandukanye bw'amasabune, ushobora kugura ukajya gukoresha imyenda. Iruhande hakaba hari inyubako iri mu ibara ry'umweru, isize irangi ry'umweru ndetse n'icyapa kikaba kiri mu ibara ry'ubururu.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza, ikaba igaragaza ko ahantu hari hoteli, yibyiza nyaburanga aho ujya ugiye kureba ibintu bitandukanye, harimo n'ibishushanyo by'ingagi ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hagaragara umuntu, ufite agatambaro ku rutugu.

Intebe z'umweru ndetse n'inzu isize irangi ry'umweru, hakaba harimo n'ameza y'umutuku, bikaba bigaragara ko ari saro y'urugo irimo ibikoresho byo mu nzu.

Inyubako iriho ibyapa bigaragaza ko ahantu bacururizamo inzoga ndetse n'abandi bakinjiramo bagiye gukiniramo imikino itandukanye, harimo nka biyali ndetse n'indi mikino, hari nko koga ndetse no kuganiriramo.

Umugabo wicaye mu ipikipiki, akaba yambaye inkweto z'umweru, akaba yambaye n'umupira w'ubururu, akaba yicaye mu modoka ifite imipine y'umukara harimo n'umweru.

Inyubako ya etaje hasi hakaba haparitse imodoka ebyiri ziri mwibara ry'umutuku hakaba harikunyuramo abantu hakaba harambitse akantu Kari mwibara ibara ry'umweru ndetse ni ry'umutuku hakaba nindabo nini cyane.

Inyubako nini cyane, ikaba iri iruhande rw'umuhanda, hakaba hateye indabo ndetse n'igiti kimwe kirekire, hakaba ari urupangu ruteye irangi ry'umweru. Hagati mu nyubako hakaba harimo ubusitani bwiza.

Ikarito irimo amasabune y'umweru, hejuru yaho gatoya hariho amacupa arimo amavuta yo kwisiga, ndetse n'amavuta yo kurya.

Isoko rigari aho abantu benshi bahurira bagurisha imbuto, aho abaguzi baza bakagura imbuto, abagurisha bakazigurisha bagahabwa amafaranga, amafaranga bakabasha kuyaguramo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Isoko rinini cyane ririmo abantu, aho abaguzi bazana amafaranga bakayaha ababagurisha ibintu bakabitwara bakabijyana mu rugo bakajya kubirya, harimo ibijumba n'ibirayi ndetse n'imyumbati.

Umuntu wegamiye ku myenda myinshi, harimo imyenda y'umutuku ndetse n'imyenda y'umukara, inyuma ye hakaba hari igikuta kigizwe n'imbaho ndetse iruhande rwe, hakaba hariho n'indi myenda y'ubundi bwoko.

Isoko rinini ririmo imyenda igiye zitandukanye, aho abantu bahurira bari kugura imyenda yo kwambara bagatanga amafaranga. Ndetse n'abahawe amafaranga bakajya kuguramo ibindi bikoresho nabwo bigiye bitandukany,e bakaguramo n'indi myenda.

Abantu benshi cyane bahuriye mu isoko, aho bamwe baba baje kugura, abandi baje kugurisha. Baba bazanye ibiribwa, ndetse n'abandi bakazana amafaranga, kugira ngo abafite amafaranga bagure ibiribwa, noneho n'abafite ibiribwa babone amafaranga.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibikombe by'umutuku, harimo ibikombe by'icyatsi, harimo amasafuriya y'umweru ndetse n'ibirangiti, aho abantu baza bakabigura, bagatanga amafaranga bakabijyana.

Iduka rinini cyane ririmo ibara ry 'umweru rifite ibyapa, ricuruza amatelefone y' amatushi ndetse n' amatelefoni manini bita simatifone harimo ibara ry' umutuku ndetse n' ibara ry' ubururu.

Ibikoresho byinshi cyane bakoresha bari gucaginga terefone, bikaba bisa n'umweru, bikaba bifite n'imigozi isa n'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku.

Isoko rinini cyane rikunda guhuriramo abaguzi ndetse n'abagurisha. Aho abaguzi baza, baje kugura imbuto, imineke, ndetse n'ibindi. Ndetse n'abagurisha aho bagurisha imbuto, bagahabwa amafaranga.

Isoko rinini cyane aho abantu bahurira ari benshi cyane, bakazana imyaka bakayigurisha. N'abandi nabo bakayigura bakajya ukuyirya, abayiguze nabo bakayijyana mu rugo ndetse bagatanga amafaranga ku bayizanye mu isoko.

Isoko rinini cyane, aho abaguzi ndetse n'abacuruza bahurira bazanye amafaranga, ndetse n'abandi bakabaha ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho.

Uruboga rw'icyatsi ruteretse hasi rwitwa shushu bakunda guteka kugira ngo barurishe ibindi biryo harimo umuceri ndetse n'isosi.

Imbuto bahinga bakazijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse n'abandi, n'abaguzi bakazigura bakazijyana kuzirya. Bityo nabo bagatanga amafaranga.

Umuryango uherereye aho bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye, aho inyubako iri mu ibara ry'umukara, hatatse n'ibyapa by'umweru ndetse n'ibyapa by'umutuku.

Isoko rinini cyane ririmo abantu bicaye ndetse n'abantu bari kugenda, risize irangi ry'umweru, rikaba ririmo inkweto z'umukara, ndetse n'imyenda y'umweru. Akaba iteyemo isima y'umweru.

Isoko rinini aho abantu bahurira bakagura ibintu bigiye bitandukanye harimo: isombe, ibijumba ndetse n'ibishimbo, aho babigura bakabijana mu rugo kugira ngo babirye bagatanga amafaranga kubabigurisha.

Inyubako ebyiri ziteganye zubakishijwe amatafari y'umutuku, zikaba zisize amarangi y'umweru ndetse n'irangi ry'umukara, hagati hakaba haciyemo insinga zo mw'ibara ry'umukara zijyanye amashanyarazi.